Ni byiza ko mu gihe wateye imbuto yawe mu butaka ugomba kuyikurikirana, ntugende ngo uterere iyo. Yaba yahuye n'uburwayi ukegera umuvuzi wabigize umwuga, akagushakira umuti uzajya ubitera.

Ni byiza ko mu gihe dutera umuti ibihingwa byacu tureba igihe wakorewe n'igihe uzarangirira, kugira ngo utaza kwangiza cya gihingwa cyacu.

Ni byiza guhinga dukoresheje ifumbire mvaruganda ndetse n'imborera, kuko bituma umusaruro wawe wera neza ugasagurira amasoko, ndetse ukabona n'ibyo kurya kandi ukiteza imbere.

Guhinga imboga dukoresheje ifumbire nziza, umuti ndetse n'imvaruganda, bituma tubona umusaruro mwinshi uhagije tugasagurira amasoko, ndetse tukabona n'ibyo kurya tugateza imbere n'amabanki.

Ni ngombwa ko dutera imbuto y’imbangurire, kuko bifasha kongera umusaruro, ndetse kandi mu kugira umwimerere uhagije ku buzima bwacu.

Umuhinzi kugira ngo agire akanyamuneza, ni uko aba yarahinze imbuto ye igatanga umusaruro. Bityo rero, ni ukuyitaho, ukayikorera neza.

Ni byiza ko mu gihe duhinze ibihingwa byacu, tugomba kumenya igihe dushyiriramo umuti, ndetse no kubyuhira, kugira ngo bitange umusaruro uhagije ku masoko.

Amatungo tugomba kuyagaburira ibiryo by'ibinyampeke cyangwa se udusimba, kugira ngo aze kugira ubuzima bwiza cyangwa kugira umusaruro. Urugero: inkoko, ingurube, ndetse...

Ibinyampeke bikungahaye kuri vitaminini A mu mubiri wacu. Tugomba rero gufata ifunguro ryacu ryiganjemo ibinyampeke kuko bidufitiye akamaro kanini cyane, kandi tugomba kureba niba nta dusimba twaba turi muri bya binyampeke hari byo biba bitaratewe umuti.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye hamwe mu itsinda barobanura imbuto y'indobanure, yo kuzahinga mu gihembwe gikurikira biteza imbere.

Ni byiza kwihangira imirimo bifasha urubyiruko kuva mu bushomeri ndetse no kwiteza imbere, bigafasha no gutunga umuryango muri rusange.

Urujya n'uruza rw'abantu baje kwitabira uburyo bashobora guhinga, mu buryo bwiza bwa kijyambere, kugira ngo imbuto zabo zizabashe kwera neza, n'abandi batabizi babyumvireho.

Guhinga ukoresheje ifumbire y'imvaruganda ni byiza kuko bituma umusaruro wawe wiyongera urugero harimo karoti, amashu.

Ni byiza ko mu mugihe wasaruye imbuto yawe , ugomba kuyishyira ahantu heza kugira ngo izatange umusaruro . Ukayiha umuti ndetse ukayipanga ahantu heza, hizewe , hatagira ubukonje.

Guhinga imbuto y'indobanure ni byiza kuko bituma ikura neza nta kibazo. Bigafasha no gutanga umusaruro mwiza ugasagurira amasoko ndetse

Hagomba kubaho ububiko bw'ibiribwa busesuye bumeze neza, kandi ugomba kubanza kubakira ahagomba kujya ubwo bubiko bw'ibinyampeke ndetse n'ibindi.

Mu gihe woroye amatungo magufi ,urugero nk'inkoko, mbere yuko uhamagara umuvuzi banza urebe ikigero imaze kugeramo cyangwa igihembwe n'ibiro ifite kugira ngo umenye umuti uza kuyiha niba ujyanye n'icyo kigero cy'iryo tungo.

Ni byiza ko mu gihe ufite itungo ryawe ukabona ritangiye gucika intege, ugomba guhamagara umuvuzi wabigize umwuga, kugira ngo aze arebe icyo iryo tungo ryabaye.

Itungo ryariye neza, ndetse bakarishakira n'umuvuzi mu gihe ryarwaye, ritanga umusaruro uhagije, ndetse n'umuveterineri aba yarisuye.

Bahinzi borozi mu gihe tworoye amatungo cyangwa se twahinze imyaka runaka, tugomba gufata umwanya wo gushaka abavuzi babigenewe, bakaza gusuzuma ya matungo, ngo barebe ko nta cyorezo cyaba cyayatatse, urugero nk'inkoko zikunda kwibasirwa n'icyorezo cyane.

Inyamaswa ziri mu binyabuzima bifite akamaro kanini kuko byinjija amadovize. Urugero nk'inyamaswa zo mu mazi imvubu, amafi ndetse n'ibindi.

Inyoni ni inyamaswa nziza kuko usibye no kuba isa neza irumva cyane igira ubwenge kandi ikurura ba mukerarugendo.

Inyamaswa ziguruka ni nziza cyane, kuko zifite ubwenge bwazo bwihariye, Imana yaziremanye, urugero nk'inyoni imenya uburyo yubakira abana bayo, cyangwa se aho itegurira guterera amagi.